Abana benshi ubona y'uko bambaye impuzankano y'ishuri, ni byiza yuko abana nk'abo ngaba bahabwa uburezi bakiri bato kugira ngo bakurane indangagaciro ndetse ubwenge bwabo bukangurwe hakiri kare, bakure mu gihagararo ndetse no mu bwenge.

Abana ubona yuko bakiri batoya bicaye ku mukeka, umubyeyi ubona ko ari mukuru yicaye hagati yabo, ari kubaganiriza abaha inyigisho zitandukanye, ni ngombwa yuko abana bacu tubakangurira kujya ku ishuri bakiri batoya, kugira ngo bahabwe uburezi bakiri bato.

Abana bakiri batoya ubona yuko bicaye batonze uruziga, hagati harimwo umubyeyi aba n'abana baba bari mu ngo mbonezamikurire, bafite amasahani bigaragaza yuko bari gufata amafunguro, ni byiza yuko abo bana bitabwaho kugira ngo barusheho kugira imikurire myiza mu gihagararo ndetse no mu bwenge.

Abana ubona yuko bambaye impuzankano y'ishuri, bicaye ahantu ku meza ubona yuko bari kugirana ibiganiro, bambaye udupfukamunwa, ni byiza yuko abana nk'aba na bo bahabwa uburezi bakiri batoya kugira ngo barusheho gukanguka mu bwenge.

Abana bicaye ahantu ubona yuko aho hantu ku nkuta zaho hariho ibishushanyo bigaragaza yuko ari ikigo mbonezamikurire. Ni byiza yuko abana bakiri batoya bajyanwa muri ibi bigo, kugira ngo bitabweho, barusheho guhabwa inyigisho zibafasha gukura mu gihagararo ndetse no mu bwenge.

Umubyeyi ufite igitabo, imbere ye hari undi mubyeyi wicaye ku gatebe ndetse n'abana benshi mu bigaragara bari ahantu mu kigo mbonezamikurire, ni byiza y'uko abana nk'aba ngaba bitabwaho mu bigo mbonezamikurire kugira ngo barusheho guhabwa uburezi bw'ibanze bakure mu gihagararo ndetse no mu bwenge.

Ababyeyi babiri, bicaye hagati y'abana benshi ubona yuko bari mu kigero cy'imyaka yo hasi abana bakiri bato, mu bigaragara aba ngaba ni abarezi bashinzwe kwita ku bana b'inshuke, ni byiza yuko abana nk'aba ngaba batangira guhabwa uburezi bakiri batoya kugira ngo barusheho kugira indangagaciro z'umuco Nyarwanda, kandi barusheho gukanguka mu bwenge.

Abana benshi bicaye ahantu mu cyumba ubona y'uko ari abana bakiri batoya, bicaye ku dutebe tubakwiriye. Ni byiza y'uko abana nk'abongaba nabo bahabwa uburezi bakiri batoya kugira ngo bagire imikurire myiza mu gihagararo ndetse no mu ubwenge.

Abana benshi bicaye bakikije ameza. Mu bigaragara ni abana bakiri batoya. Ni byiza yuko abana nk'aba ngaba batangira guhabwa uburezi bakiri batoya kugira ngo bazakure bafite indangagaciro ndetse bajijutse mu bwenge.

Umubyeyi ubona yuko ari ahantu ku bukarabiro ari kumwe n'abana yatondesheje umurongo, mu bigaragara ni ku rugo mbonezamikurire, ni byiza yuko abana nk'aba bakiri bato batozwa umuco w'isuku ndetse bakanahabwa inyigisho kugira ngo bakure neza kandi bafite ubuzima bwiza.

Abana benshi ubona y'uko bakiri batoya, bari kumwe n'umurezi wabo, ni byiza cyane y'uko abana nk'aba ngaba bahabwa uburezi bakiri batoya kugira ngo barusheho gukura mu bwenge ndetse no mu gihagararo.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, mu bigaragara bicaye ku dutebe bazengurutse ameza bari kuganira, ni byiza yuko abana nk'aba ngaba bakiri bato bahabwa uburezi kugira ngo bakomeze barusheho gukura neza mu bwenge ndetse no mu gihagararo.

Icyumba kirimo abana bicaye ku mukeka, urabona harimo umugabo ashobora kuba ari umurezi wabo, arimo aragenda aha amata buri wese. Ni byiza yuko abana nk'aba ngaba bahurizwa hamwe mu ngo mbonezamikurire kugira ngo barusheho kwitabwaho ndetse bahabwe uburezi bakiri bato.

Abana benshi ubona yuko bakiri batoya bicaye ahantu ku mukeka. Bari kumwe n'umubyeyi ubona yuko ari umurezi wabo. Ni byiza yuko abana nk'abangaba bashyirwa mu ngo mbonezamikurire bakabasha kwitabwaho, bagahabwa n'uburezi bakiri batoya kugira ngo bakure mu gihagararo no mu bwenge.

Abana batatu bambaye impuzankano y'ishuri ubona yuko ari abana bakiri batoya, bari imbere ya bagenzi babo bafite udukoresho turiho inyuguti, bigaragara yuko bari kwifashisha udukoresho tw'imfashanyigisho kugira ngo barusheho kwiga, ni byiza yuko abana nk'aba ngaba barushaho guhabwa uburezi bufite ireme.

Abana benshi bicaye ahantu ku mukeka, mu bigaragara bafite ibikombe bari kunywa igikoma, ni byiza yuko abana nk'aba ngaba bahurizwa hamwe bagahabwa inyigisho zijyanye n'uburezi, ndetse bakarushaho kwitabwaho bahabwa amafunguro ndetse n'ibyo kunywa bihagije, kugira ngo barusheho kugira imikurire myiza mu gihagararo ndetse no mu bwenge.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, bicaye mu ishuri, ikigaragara cyo ni benshi, ni byiza y'uko hagabanywa ubucucike mu mashuri kugira ngo abana barusheho guhabwa uburezi kuri bose kandi barusheho kwitabwaho uko bikwiye.

Inyubako ubona yuko imaze igihe, mu bigaragara ni ikigo cy'ishuri, birasa n'aho imaze gusaza, ni byiza yuko inyubako nk'izi ngizi zimaze igihe zisanwa kugira ngo zijyanishwe n'igihe bityo uburezi bw'aho burusheho kugenda neza.

Icyapa kigaragaza urwunge rw'amashuri rwa Cyarwa. Aha ngaha ni ikigo gitanga uburezi bufite ireme. Ni byiza yuko ibigo nk'ibi ngibi birushaho kuvugururwa ndetse no kwitabwaho no kubungabungwa kugira ngo uburezi burusheho gutezwa imbere.

Ahantu hari inyubako nyinshi, mu bigaragara ni ahantu hari ikigo cy'amashuri, ni byiza yuko ibigo nk'ibi ngibi byegerezwa abaturage kugira ngo abana babo barusheho guhabwa serivisi zijyanye n'uburezi bidasabye yuko bakora urugendo runini.

Inyubako ubona y'uko mu bigaragara ari ikigo cy'ishuri, ni byiza y'uko ahantu hatangirwa serivisi z'uburezi, harushaho kugirirwa isuku ndetse hagashyirwa inyubako zijyanye n'igihe kugira ngo ubuzima bw'abanyeshuri bubungwabungwe n'ireme ry'uburezi ritezwe imbere.

Akabati ubona yuko karimo ibitabo byinshi cyane, ubu ni bumwe mu buryo bwifashishwa habikwa ibitabo ndetse n'ibindi bikoresho byo ku ishuri, ni byiza yuko bibikwa hitawe ku mutekano wabyo kugira ngo birusheho kugira uburambe kandi bifashe abanyeshuri.

Ahantu hari icyapa kigaragaza ikigo cy'amashuri abanza cya Mugusa. Ni byiza yuko amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye yegerejwe abaturage kugira ngo abana barusheho guhabwa uburezi bitabasabye gukora urugendo runini bajya gushaka ibigo by'amashuri.

Abana batatu bafite mudasobwa, bicaye ahantu ku ntebe ubona yuko barimo barayikoresha, ni byiza yuko ibikoresho by'ikoranabuhanga na byo byegerejwe abana kugira ngo barusheho kwiyungura ubumenyi mu bijyanye n'ikoranabuhanga, bityo uburezi burusheho kujyana n'igihe tugezemo.

Icyumba cyiza ubona y'uko kirimo ameza ariho ibitabo ndetse n'akabati karimo ibitabo, mu bigaragara aha ni ahantu umwana ashobora kujya akabona ibitabo byo gusoma, ni byiza y'uko abanyeshuri begerezwa ibitabo ndetse n'ibyumba nk'ibi kugira ngo barusheho gukora ubushakashatsi ku byo biga.

Abana benshi bambaye impuzankano z'ishuri, mu bigaragara bari mu masaha y'ikiruhuko, barimo barakina imikino itandukanye yiganjemo umupira w'amaguru, ni byiza yuko imikino ikomeza gushyigikirwa mu bigo kugira ngo abana barusheho kugira ubuzima bwiza, ndetse banidagadure ari na ko bahabwa n'uburezi bufite ireme.

Icyapa kigaragaza ikigo cya HVP Gatagara, iki ni ikigo gifasha abantu bafite ubumuga butandukanye kugira ngo nabo bahabwe uburezi barusheho kwiteza imbere ndetse no kugira icyizere cy'ubuzima.

Ahantu hari ibikoresho byiganjemo uducamurongo ndetse n'amasaha byifashishwa mu kugira ngo abana bige isomo ry'imibare. Ni byiza yuko izi mfashanyigisho zegerezwa abana kugira ngo barusheho guhabwa uburezi bufite ireme.

Abana ubona yuko ko bakiri batoya bambaye impuzankano y'ishuri. Bafite ibikoresho bifashisha batwara ibyo kurya. Ni byiza yuko abana nk'aba ngaba bahabwa uburezi bakiri bato, kandi bagakomeza kwitabwaho bahererwa ifunguro ku mashuri, kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bubungabungwe.

Icyumba kirimwo akabati, kikabamo intebe ndetse n'igipapuro kiriho ibishushanyo byifashishwa mu kwiga. Ibi byose biri mu bikoresho bigomba kuba biri mu ishuri kugira ngo umwana arusheho guhabwa uburezi bufite ireme. Dukomeze tubibungabunge.

Inyubako ubona yuko irimwo ikibaho kirekire cy'umukara, mu bigaragara aha ni ishuri birasa naho iki kibaho ndetse n'ishuri muri rusange bidafite isuku. Ni byiza yuko mu mashuri tugiramo isuku kugira ngo turusheho guteza imbere uburezi.

Ahantu hari inyubako ndende ubona ko ari ibyumba by'amashuri byubatse neza, ni byiza yuko inyubako nk'izi ngizi zibungabungwa kuko ari isoko y'uburezi bufite ireme, dukomeze kandi tuzikorere amasuku kugira ngo zirusheho kuramba kandi turusheho kuzizihira.

Umwana mutoya ubona yuko yambaye impuzankano y'ishuri, inyuma ye hari igikoresho kifashishwa bakora isuku begeranya imyanda, ni byiza yuko abana nk'aba ngaba bajyanwa ku mashuri kugira ngo barusheho guhabwa uburezi bw'ibanze ndetse ni byiza ko mu bigo aho biga harushaho kugirirwa isuku.

Icyumba kirimo ikibaho n'intebe ndetse n'abanyeshuri, harimo n'igare ry'umuntu ufite ubumuga bw'ingingo, ni byiza yuko abana twese tubahuriza mu ishuri kugira ngo barusheho kugira uburenganzira bungana ku burezi, hatitawe ku kuba bafite ubumuga cyangwa batabufite.

Igipapuro kimanitse ku gikuta, ubona ko gishushanyijeho amoko atandukanye y'imbuto ndetse n'imboga. Hari n'ibindi kandi bimanitse ku kibaho, ubona ko biriho imibare n'ibindi bishushanyo bitandukanye. Ni byiza yuko izi mfashanyigisho zifashishwa mu mashuri, kugira ngo harusheho gutangwa uburezi bufite ireme.

Igitambaro kinini ubona yuko kiriho ibishushanyo by'ibikoresho bitandukanye dusanga ku ishuri birimo intebe, ameza, agakoresho kifashishwa begeranya imyanda ndetse n'ibindi. ni byiza yuko abana bagaragaza impano hakiri kare harimo no gushushanya kugirango ngo barusheho gufashwa bazibyaza umusaruro

Ahantu heza cyane hari ubusitani ubona yuko butoshye, hari urugo ruteye amarangi y'umweru, urwo rugo rushushanyijeho umwana ufite ubumuga bw'amaguru wicaye mu kagare afite igitabo, bigaragara yuko iki ari ikigo gitanga uburezi ku bana bafite ubumuga, ni byiza yuko aba bana na bo bahabwa uburezi.

Ahantu hari abanyeshuri ubona ko bambaye impuzankano z'ishuri, ubabona yuko hari amashuri yubatse neza cyane. Ni byiza yuko amashuri akomeza kujyanishwa n'igihe tugezemo kugira ngo urwego rw'uburezi ndetse n'ireme ryabwo bikomeze bizamurwe.

Abana batoya ubona bambaye impuzankano z'ishuri, bari kumwe n'umwarimu wabo bari kubakira ikimera bigaragara yuko bari gushaka yuko kigira umutekano. Ni byiza yuko abana bakiri batoya batozwa kubungabunga ibidukikije kugira ngo uwo muco bazawukurane.

Ahantu ubona yuko inyubako zihari ari iz'ubwiherero. Ni byiza yuko ahantu nk'aha ngaha hagirirwa isuku kuko ubwiherero ni hamwe mu hantu abana bakenera cyane. Ni byiza rero yuko isuku yaho yitabwaho kandi inyubako zaho zikaba ari inyubako zitanga umutekano.

Ahantu hari igikoresho cy'ikoranabuhanga bifashisha barahura umuriro ukomoka ku mashanyarazi, ubona yuko hacometseho utundi dukoresho dukwirakwiza umuriro muri Mudasobwa, ni byiza yuko ahantu hatangirwa uburezi hagomba kwegerezwa umuriro w'amashanyarazi, kugira ngo ireme ry'uburezi rirusheho gutezwa imbere.

Mudasobwa irimo ingengabihe, mu bigaragara izi ni mudasobwa zifashishwa mu bigo by'amashuri. Ni byiza yuko abana begerejwe ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'ibi ngibi kugira ngo barusheho kwiyungura ubumenyi.

Ibase ndetse na pubere; ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gukora isuku aho dutuye ndetse n'aho dukorera. Ni byiza yuko ahatangirwa serivisi z'uburezi naho harushaho kugirirwa isuku.

Abana bambaye impuzankanda z'ishuri. Bari mu muhanda ubona yuko berekeza ku kigo k'ishuri bagiye gukurikirana amasomo. Ni byiza ko ibi bigo byegerejwe abaturage aho abana bahabwa serivisi z'uburezi bidasabye ko bakora urugendo runini.

Abana batatu bambaye impuzankano z'ishuri, mu bigaragara ni abana b'abanyeshuri, ni byiza yuko abana nk'aba ngaba, bahabwa uburezi bakiri batoya, kandi bakitabwaho cyane, kugira ngo barusheho kugira imikurire myiza, mu gihagararo ndetse no mu bwenge.

Udupapuro ndetse n'utubaho turiho imibare, ibi ni byo byitwa imfashanyigisho byifashishwa barimo bigisha abanyeshuri. Ni byiza yuko twifashisha ibintu biboneka hafi yacu kugira ngo tubikoreshe nk'imfashanyigisho, bityo uburezi burusheho gutezwa imbere.

Abana bakiri bato ubona yuko bambaye impuzankano y'ishuri urabona yuko harimo ufite isahane, ni byiza yuko abana nk'aba ngaba begerezwa amashuri ndetse bakitabwaho bahabwa ifunguro ku manywa kugira ngo barusheho kwiga neza uburezi burusheho gutera imbere.

Ahantu hubatse neza ubona yuko hari icyapa kiyobora abantu bafite ibinyabiziga baje gusura abanyeshuri aho bagomba kubisiga. Ni byiza yuko aha hantu habungabungwa kandi hagashyirwaho kuri buri bigo, kugira ngo abanyeshuri bajye basurwa, kandi ababyeyi babo barusheho gukurikirana imyigire yabo.

Ikigo cy'amashuri ubona yuko gifite amashuri meza. Ni byiza yuko ibi bigo byegerejwe abaturage, aho buri wese akangurirwa kujyana umwana we ku ishuri kugira ngo uburezi burusheho guhabwa intebe.

Intebe gakondo, ubona yuko zikoze mu mbaho, ubona yuko zitakijyanye n'igihe. Ni byiza yuko uburezi hashyirwamo imbaraga kugira ngo ibikoresho nk'ibi ngibi by'ingenzi cyane birusheho kujyana n'igihe.

Abana benshi bambaye impuzankano y'ishuri, ubona yuko bari ahantu ku kigo cy'amashuri, ni byiza yuko abana nk'abangaba bahabwa uburezi bakiri batoya, kugira ngo bagire indangagaciro zizabafasha mu mikurire yabo.

Abana benshi ubona yuko bakiri batoya. Biganjemo abambaye impuzankano y'ishuri. Bicaye ahantu mu ishuri. Ni byiza yuko abana nk'aba ngaba bahabwa uburezi bakiri bato bityo bakitabwaho imikurire yabo ikarushaho kuba myiza.

Umwarimu uri kumwe n'abanyeshuri be bicaye batonze uruziga, buri mwana ndetse na mwarimu bafite ibitabo, ni byiza y'uko abana batozwa umuco wo gusoma bakiri batoya kugira ngo bazawukurane bityo barusheho kugira ibitekerezo byagutse.

Abana benshi ubona yuko bakiri batoya bahagaze imbere y'ishuri. Umwarimu wabo ari kubaganiriza. Ni byiza yuko abana nk'abangaba bahabwa uburezi bakiri batoya kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza by'umwihariko barusheho gukura bafite ubwenge.

Icyapa kimanitse ahantu ku nzu, mu bigaragara iki cyapa kiriho ibimenyetso byifashishwa mu rurimi rw'amarenga, bigaragara yuko ari icyapa gifasha mu kwigisha abana bafite ubumuga bwo kutavuga, ni byiza yuko abana nk'abangaba na bo bahabwa uburezi kugira ngo barusheho kwiyumva nk'abantu, kandi bagira icyizere cy'ubuzima.

Abantu benshi bambaye impuzankano, mu bigaragara ni abanyeshuri imbere yabo hari umurezi, bari mu cyumba cy'ubushakashatsi, ni byiza ko ibyumba nk'ibi ngibi byegerezwa abanyeshuri kugira ngo barusheho gukora ubushakashatsi ku byo biga.

Abana benshi bambaye impuzankano y'ishuri, imbere yabo hari umwarimu urimo urabigisha. Ni byiza yuko abana nk'abo bahabwa uburezi bakiri bato kugira ngo barusheho kugira imikurire myiza mu gihagararo ndetse no mu bwenge.

Icyapa kigaragaza ikigo cya Gatagara gifasha abana bafite ubumuga mu kwiga imyuga, ni byiza yuko abana nkaba bafite ubumuga bahabwa uburezi kugira ngo barusheho kugira ubwenge ndetse no kwiteza imbere.

Abanyeshuri bicaye ahantu mu busitani, bicaye munsi y'ibiti, abayobozi bari kubaganiriza. Ni byiza yuko abanyeshuri n'abayobozi bagirana ibiganiro kugira ngo babashe kumenya neza imigendekere ya gahunda z'uburezi.

Abana bambaye impuzankano, bicaye mu ishuri ubona yuko barimo barandika, ni byiza yuko igihe abana bagiye ku ishuri bitwaza ibikoresho by'ingenzi, harimo amakaye n'amakaramu kugira ngo babashe gukurikirana inyigisho bahabwa n'umwarimu bityo, barusheho kwiyungura ubumenyi.

Ikibaho kiri ahantu mu ishuri, ubona y'uko kiriho ingengabihe igaragaza ibikorwa byose bikorerwa mu ishuri, amasomo biga abanyeshuri ndetse n'igihe cy'ikiruhuko. Iyi ngengabihe ni ingenzi cyane kuko ifasha abanyeshuri gupanga ndetse no kwitegura amasomo uko bikwiriye.

Icyumba cyiza cyane kirimo aho kurara hagezweho ndetse n'aho kubika ibikoresho. Mu bigaragara ni icyumba abanyeshuri bararamo. Ni byiza yuko ahantu nk'aha ngaha harushaho kugirirwa isuku. Ndetse hakarushaho kuboneka ibikoresho biteye imbere. Kugira ngo ubuzima bw'abanyeshuri burusheho kubungabungwa.

Ahantu hari ikibaho mu bigaragara kiriho isuzumabumenyi ryahawe abanyeshuri, ni byiza yuko igihe umwarimu asoje kwigisha atanga isuzumabumenyi kugira ngo arebe ikigero cy'ubwenge bw'abanyeshuri ndetse arebe niba intego z'isomo zagezweho.

Abanyeshuri benshi batonze umurongo ahantu ku kibuga, mu bigaragara bari guhabwa amabwiriza n'umuyobozi wabo, ni byiza yuko inama nk'izingizi zikorwa akenshi kugira ngo abayobozi barusheho gusobanurira abanyeshuri ibijyanye n'uburezi ndetse banamenye ibibazo biri hagati y'abanyeshuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano neza batebeje ubona yuko bafite isuku, bahagaze imbere y'ishuri barimo barahabwa ikiganiro n'umuyobozi. Ni byiza yuko tugirana ibiganiro nk'ibi ngibi n'abayobozi kugira ngo turusheho gusobanukirwa ibya gahunda za Leta ndetse barusheho kumva ibibazo n'ibyifuzo byacu.

Abanyeshuri benshi bakusanyirijwe hamwe, ubona yuko imbere yabo hari umukozi w'Urwego rw'Igihugu Rushinzwe Ubugenzacyaha RIB, ubabona yuko arimo arabaha amasomo ku bijyanye n'imikorere y'urwo rwego ndetse no kwirinda ibyaha, ni byiza yuko abanyeshuri bahabwa amakuru ku byaha kugira ngo babyirinde.

Abanyeshuri ndetse n'abandi bantu ubona yuko bahetse ibikapu bashaka gusubira mu rugo, haparitse imodoka mu kigo ubona yuko ari zo zifasha abanyeshuri kujya mu byerekezo bitandukanye basubira mu rugo, ni byiza yuko ibigo byateye imbere bikomeza gufasha abanyeshuri kubona uburyo bworoshye bwo gukora ingendo.

Ahantu heza hari indabo ndetse n'ubusitani hari ibiti bitandukanye, hari icyapa kigaragaza yuko ari ku kigo cy'amashuri yisumbuye cya Butare, icyo cyapa kandi kigaragaza indangagaciro na kirazira z'icyo kigo. Ni byiza yuko ibigo nk'ibi ngibi byegerejwe abaturage, aho abanyeshuri batagikora urugendo runini bajya ku bigo bigaho.

Abantu benshi ubona y'uko ari abanyeshuri kuko bambaye impuzankano y'ishuri, bicaye batonze uruziga, hagati yabo harimwo umukobwa ubona y'uko ari kubaganiriza, ni byiza y'uko nk'abanyeshuri bagira ibiganiro nk'ibi ngibi kugira ngo barusheho kungurana inama ndetse barusheho no gufashanya, bityo barusheho kugira ubufatanye.

Abanyeshuri benshi ubona yuko bahetse ibikapu byabo barimo basubira mu rugo. Bari ahantu haparikwa imodoka. Ni byiza yuko abana bafashwa gukora ingendo bava cyangwa bajya ku ishuri kugira ngo umutekano wabo urusheho kubungabungwa.

Icyapa kigaragaza ubutumire bw'ikigo cya Elena Guerra, bigaragara yuko ari ikigo cyubatse mu buryo bugezweho, kiri kwizihiza imyaka makumyabiri n'itanu kimaze kibayeho, ibi ni ibigo by'ingirakamaro mu gutanga uburezi bufite ireme.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bw'amagorofa, aha ni ahantu h'ingenzi cyane kuko ari yo soko y'uburezi, ndetse n'ubumenyi utasanga ahandi, ni byiza yuko inyubako zitangirwamo serivisi z'uburezi, nazo zitezwa imbere.

Ahantu hari intebe, ibibaho ndetse n'udusanduku, mu bigaragara utu dusanduku twifashishwa babika ibikoresho bitandukanye, kugira ngo birusheho kugira umutekano, ni byiza yuko turushaho kubika ibintu byacu neza kugira ngo tubiririnde kwangirika.

Ahantu ubona yuko hari imodoka y'ikigo yifashishwa mu gutwara abanyeshuri igihe bakoze ingendo; yaba ibacyura cyangwa ibajyana mu ngendoshuri zitandukanye. Ni byiza yuko izi modoka ibigo byinshi bizifite bityo uburezi bukaba burushaho kubonera.

Abantu bambaye imyenda myiza bari mu kibuga, iruhande rwabo hari abandi benshi bari mu mahema ubona yuko abari mu kibuga bari kubyina. Ni byiza yuko dukangukira imyidagaduro nk'iyi ngiyi kugira ngo turusheho kugira indangagaciro zikwiriye ndetse uburezi burusheho kugira ireme.

Abantu benshi ubona y'uko harimo abanyeshuri ndetse n'abayobozi bari ahantu mu ishuri, ni byiza y'uko ubuyobozi na bwo bwegerezwa abanyeshuri, abayobozi bakajya baza bakaganiriza abanyeshuri kugira ngo barusheho kumenya ibibazo abanyeshuri bafite, bityo uburezi bukomeze butezwe imbere.

Abanyeshuri benshi bakusanyirijwe hamwe mu bigaragara imbere yabo hari abayobozi barimo abarezi babo. Ni byiza yuko ibihe nk'ibi ngibi bibaho mu kigo kugira ngo abanyeshuri barusheho kwidagadura ndetse barusheho no kumva inama bagirwa n'abarezi babo ndetse n'abayobozi.

Ahantu hakusanyirijwe abanyeshuri. Ubona yuko hari umuyobozi uri hagati uri kugenda abaha ikiganiro. Ni byiza yuko inzego z'ubuyobozi zitandukanye zegera abanyeshuri kugira ngo babashe kumenya ibibazo biri hagati y'abanyeshuri bityo bikemurwe hakiri kare.

Abantu bane ubona yuko bambaye nk'abantu bihaye Imana, bari ahantu imbere y'inyubako ubona yuko ari ikigo cy'ishuri, hari umuhanda umeze neza, ni byiza yuko ahantu hatangirwa serivisi zijyanye n'uburezi hatezwa imbere hakajyanishwa n'igihe kugira ngo ireme ry'uburezi rikomeze ribungabungwe.

Ahantu heza ubona yuko hegereye umuhanda, hari inyubako nziza zikikijwe n'ibimera byiganjemo ibiti ndetse n'ibyatsi, aha hantu mu bigaragara hatangirwa serivisi zijyanye n'uburezi, ni byiza yuko ahatangirwa serivisi z'uburezi hagomba kuba hitaweho hagatezwa imbere ndetse hakagirirwa isuku.

Umumama wambaye impuzankano bigaragara yuko ari umurezi, imbere yiwe mu ishuri arimo harimo abanyeshuri bahagaze bazamuye amaboko. Mu bigaragara bari gukina udukino tubafasha kugira ngo barusheho kumera neza mu mutwe, bityo bakurikire isomo batuje. Iyi mikino ni ingenzi cyane mu burezi.

Abana babiri bambaye impuzankano ubona y'uko bari kwerekeza ku ishuri, ni byiza yuko ibigo by'amashuri byegerejwe abana aho batagikora urugendo rurerure bajya kubishaka, dukomeze tubibungabunge.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho, mu bigaragara isiza amarangi aryoheye ijisho, ni byiza yuko inyubako zitangirwamo serivisi zijyanye n'uburezi zubatswe mu buryo bujyanye n'igihe, bityo iterambere ry'uburezi rigakomeza gukataza.

Icyumba cyiza cyane giteguyemo intebe z'imbaho ubona y'uko ari intebe zimeze neza z'abanyeshuri, ni byiza y'uko abana bahabwa uburezi bicaye ahantu hameze neza hafite isuku kugira ngo dukomeze tubungabunge ireme ry'uburezi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bafite icyapa cyanditseho IPRC Huye, cyanditseho ko bari kwizihiza imyaka makumyabiri yo kwibohora. Ni byiza y'uko ibi bigo na byo byegerejwe abaturage, aho banyeshuri bajyayo bakahigira imyuga itandukanye.

Abanyeshuri benshi bicaye mu cyumba ubona y'uko ari kigari cyane, hagati harimo umwarimu urimo arabaganiriza, ni byiza y'uko abanyeshuri ndetse n'abayobozi bagirana inama kugira ngo barusheho gukemura ibibazo bitandukanye bijyanye n'uburezi.

Ahantu harimo akabati karimo ibitabo, mu bigaragara ni mu isomero, ni byiza yuko ahantu nk'aha ngaha habungabungwa kuko ari ahantu abanyeshuri bashobora kujya bagafata ibitabo bagasoma bityo bakiyungura ubumenyi, ni byiza yuko ibi bitabo bikomeza kubungabungwa.

Icyumba kirimo ibitanda bikoze ku buryo bugezweho aho hari ibiri hasi ibindi bikaba hejuru, mu bigaragara ni amacumbi y'abanyeshuri, ni byiza y'uko aya macumbi yitabwaho agashyirwamo ibikoresho bijyanye n'igihe ndetse akarindirwa umutekano kugira ngo ubuzima bw'abanyeshuri bubungabungwe.

Umubyeyi ubona yuko ari ahantu mu kigo, abanyeshuri barimo barinjira mu mashuri, ubona yuko ari inyubako zubatse mu buryo bwiza kandi butangaje. Ni byiza yuko amashuri nk'aya yegerejwe abaturage kugira ngo abana bahabwe uburezi bitasabye yuko bakora urugendo runini.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri, ubona yuko ari kunyura mu muhanda mwiza wa kaburimbo, mu bigaragara ari kwerekeza ku ishuri, ni byiza yuko ibikorwa remezo nk'imihanda byegerejwe abaturage, bityo abana bakaba bakora ingendo zitari ndende bajya ku mashuri kandi banyuze mu mihanda myiza.

Abanyeshuri benshi bicaye ahantu mu kibuga ubona ko kirimo ibyatsi bimeze neza, imbere yabo hari umunyeshuri n'umuyobozi ubona y'uko bari kugirana inama, ni byiza y'uko mu mibereho y'abanyeshuri ndetse no mu miterere y'uburezi, abanyeshuri n'abayobozi babo bagirana ibiganiro kugira ngo basobanukirwe byinshi bijyanye n'uburezi bityo barusheho gutera imbere.

Icyapa kigaragaza ishuri ryitiriwe Mutagatifu Jean Bosco, ni byiza y'uko amashuri nk'aya yegerezwa abana kugira ngo serivisi z'uburezi zirusheho kwegerezwa abaturage bityo abantu barusheho kujijuka.

Icyumba kirimo ibitabo byinshi ubona yuko ari isomero, ni byiza yuko ibi byumba byegerejwe abanyeshuri bityo bakaba babona aho bajya gukorera ubushakashatsi ndetse n'aho bajya gusomera ibitabo kugira ngo barusheho kwiyungura ubumenyi.

Abanyeshuri bicaye ahantu, aho ubona yuko hari umuyobozi urimo urabaha ubutumwa, ni byiza yuko abayobozi bagirana inama n'abanyeshuri kugira ngo barusheho kubasobanurira ibijyanye na gahunda z'uburezi ndetse bamenye ibyifuzo n'ibibazo by'abanyeshuri.

Abanyeshuri benshi bari ahantu hamwe, ubona yuko bafashe ifoto nziza cyane. Ni byiza rero yuko abafatanyabikorwa nk'abangabo ba Jayanti Ofu Afurika bagira uruhare mu bikorwa by'uburezi kugira ngo uburezi burusheho gutezwa imbere.

Amarembo ubona yuko ariho inyubako zimeze neza, mu bigaragara aha ngaha ni ku kigo cy'indatwa n'inkesha giherereye mu karere ka Huye, ni byiza yuko ibigo nk'ibi ngibi byegerejwe abaturage kuko bitangirwamo uburezi bufitete ireme.

Ikibuga kiri ahantu ubona yuko hari ubusitani bumeze neza kandi hari urugo rwubatse ku buryo bugezweho. Ni byiza yuko uburezi bujyanishwa n'imikino kugira ngo abana barusheho guhabwa uburere ariko barusheho no kwidagadura mu by'imikino.

Icyumba kirimo ububiko bumeze neza, ubona y'uko burimwo ibitabo byinshi cyane. Ni byiza yuko abanyeshuri begerezwa ibitabo ndetse n'amasomero menshi, kugira ngo barusheho gukora ubushakashatsi ku byo biga, bityo biyungure ubumenyi.

Abanyeshuri benshi bicaye imbere yabo hari abayobozi ubona y'uko bari kubaganiriza, ni byiza y'uko abayobozi n'abanyeshuri bakorana inama nk'izi ngizi kugira ngo babashe kumenya amategeko n'amabwiriza agenga uburezi ndetse bamenye n'ibyifuzo ndetse n'ibibazo biri hagati mu banyeshuri.

Icyumba cyiza cyane kirimo ibitanda bigerekeranye ubona yuko ari aho abanyeshuri barara, hari kandi ameza maremare bashyiraho ibikoresho byabo, ni byiza yuko ahantu nk'aha ngaha harushaho kugirirwa isuku ndetse hagashyirwa ibikoresho bigezweho kugira ngo ubuzima bw'abana bubungabungwe.

Abanyeshuri benshi bicaye mu cyumba kimwe ubona yuko ari icyumba kinini kandi gifite isuku. Bambaye imipira y'impuzankano bigaragara yuko bari guhabwa inama. Ni byiza yuko abanyeshuri bagira igihe cyo guhurizwa hamwe kugira ngo baganirizwe ku hazaza habo ndetse no ku myigire yabo.

Inyubako nziza cyane ifite ubusitani imbere yayo ubona yuko bumeze neza. Imbere yayo hicaye abana bambaye impuzankano z'ishuri. Mu bigaragara ni ahantu heza habereye ijisho. Ni byiza yuko uburezi buri gutangirwa ahantu hubatse mu buryo bugezweho kandi hafite isuku. Bityo ireme ry'uburezi rikarushaho kuzamuka.

Icyumba kiza cyane ubona y'uko kirimo intebe zikoze mu mbaho ndetse n'ibyuma mu bigaragara aha ni mu ishuri, ni byiza y'uko izi ntebe zirushaho kugirirwa ubuziranenge ndetse zikarushaho gusanwa hakiri kare kugira ngo abana bige bicaye batuje kandi barusheho guhabwa uburezi bufite ireme.

Abanyeshuri benshi ubona yuko imbere y'aho hicaye abayobozi mu nzego zitandukanye, mu bigaragara bari gukora inama, ni byiza y'uko abanyeshuri n'abayobozi bagirana inama kugira ngo ibibazo abanyeshuri bafite bibashe gukemurwa kandi gahunda zose z'ikigo zirusheho kwitabirwa n'abanyeshuri.

Icyapa kigaragaza ikigo cya Rega ADEPR, kigaragaza kandi indangagaciro ndetse na kirazira ndetse n'ahazaza h'iki kigo. Ni byiza yuko ibi bigo byegerejwe abaturage, aho abanyeshuri babasha kwegerezwa serivisi z'uburezi bidasabye yuko bakora urugendo runini.

Icyumba k'ishuri, mu bigaragara kirimo ikibaho abanyeshuri bifashisha bari kwiga, iki ni ikibaho gakondo cyifashishwa mu kwigisha ndetse no kwiga, aho umwarimu afata ingwa akandikaho abanyeshuri bagakurikira, ni byiza yuko dukoresha ibi bibaho ndetse tukaba twanakoresha n'iby'ikoranabuhanga kugira ngo uburezi burusheho gutezwa imbere.

Igitabo cyifashishwa n'umurezi wigisha ubutabire mu mwaka wa gatatu, ni byiza y'uko ibitabo nk'ibingibi abarimu babibona ku bwinshi kuko bifasha kugira ngo hatangwe uburezi bufite ireme.

Icyumba cyiza cyane kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo mudasobwa ndetse n'ibindi, ni byiza y'uko ibi byumba byegerejwe abanyeshuri kugira ngo ikoranabuhanga rikomeze ritezwe imbere mu burezi.

Abanyeshuri bambaye ingofero n'impuzankano, ubona yuko bameze neza; mu bigaragara, bari mu myiyereko. Ni byiza yuko abanyeshuri bagira umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo bagaragaze ubushobozi bafite.

Amarembo y'ikigo cya Notre Dame de la Paix Cyanika, iki ni ikigo kizwiho kuba gitanga uburezi bufite ireme, ni byiza y'uko ibigo nk'ibi byegerejwe abaturage kugira ngo abana barusheho guhabwa uburezi bufite ireme,

Abanyeshuri baricaye mu ishuri ubona yuko bari gukurikirana amasomo yabo bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga, ni byiza yuko ikoranabuhanga ryatejwe imbere mu burezi aho abanyeshuri bari guhabwa uburezi bufite ireme kandi bujyanye n'igihe.

Abanyeshuri ubona yuko bambaye imyenda ya siporo, bari gukina umukino w'amaboko. Ni byiza yuko uburezi budasigana n'imikino kugira ngo abana barusheho kugira ubuzima buzira umuze kandi barusheho guhabwa uburezi bufite ireme.

Abanyeshuri baricaye mwarimu ari kugenda hagati ari kubabwira ibijyanye n'amasomo, ni byiza yuko abanyeshuri bigira ahantu hameze neza kugira ngo bakomeze bazamure ubwenge bwabo.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo mudasobwa, ni iby'igiciro cyane kuba abanyeshuri baregerejwe ibikoresho by'ikoranabuhanga bityo bikaba bibafasha gukora ubushakashatsi ku byo biga, bitabasabye gukoresha imbaraga nyinshi.

Inyubako nziza ubona ifite imiryango imeze neza, imbere hahagazemo umubikira, ni inyubako y'urwunge rw'amashuri rwa Sainte Bernadette, iki ni ikigo gitanga uburezi bufite ireme. Nimuze tubungabunge ibigo nk'ibi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano. Batonze umurongo bafite ibitabo. Mu bigaragara bari kuririmba. Ni byiza yuko mu bigo by'amashuri habaho n'igihe cyo kwidagadura no gusenga kugira ngo uburezi burusheho kujyana n'igihe.

Ahantu hubatse neza ubona y'uko hari inyubako zijyanye n'igihe, hari ubusitani bwiza cyane ubona y'uko ari ahantu ku kigo cy'amashuri, ni byiza y'uko uburezi busigaye butangirwa ahantu hafite isuku kandi hajyanye n'igihe bityo n'ireme ry'uburezi rikazamuka.

Inyubako nziza igaragaza amarembo y'ikigo k'imyuga cya EAR Kageyo. Ibi bigo bitanga uburezi bufite ireme bufasha abantu kwihangira imirimo bityo bakabasha kwiteza imbere. Ni byiza yuko ibigo nk'ibi tubibungabunga.

Abana bambaye impuzankano z'ishuri ndetse n'ibikapu, mu bigaragara bagiye kwinjira mu modoka, ni byiza yuko ireme ry'uburezi rikomeza gutezwa imbere aho abanyeshuri basigaye boroherezwa mu gukora ingendo bava ku bigo bajya mu ngo cyangwa bava mu ngo bajya ku ishuri.

Icyumba kiri mu intebe, kirimo ikibaho, akabati ndetse n'izindi mfashanyigisho, mu bigaragara iki ni icyumba cy'ishuri. Ni byiza yuko aho abana bigira bagomba kugira ibikoresho by'ibanze, harimo nk'intebe, utubati, ibibaho ndetse n'imfashanyigisho kugira ngo barusheho guhabwa uburezi bufite ireme.

Abanyeshuri benshi baricaye, imbere yabo hari umumama ubona yuko ari umuyobozi, arimo arabaganiriza anababaza ibibazo, ni byiza yuko abayobozi baganiriza abanyeshuri kugira ngo barusheho kumva bisanzuye ndetse barusheho kumenya ibibazo biri hagati muri bo babikemure.

Icyumba kiza cyane kirimo intebe, ameza ndetse n'ikibaho. Mu bigaragara ni ahantu bigira. Ni byiza yuko ahantu hatangirwa serivisi zijyanye n'uburezi harushaho gutezwa imbere. Inyubako zaho zikajyana n'igihe bityo n'uburezi bugakomeza kujyana n'iterambere ndetse n'igihe tugezemo.

Icyumba cyagutse cyane ubona y'uko kirimo abantu benshi bicaye bafite mudasobwa, ni byiza y'uko abantu nk'aba ngaba bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo turusheho gushyigikira ireme ry'uburezi.

Abantu benshi ubona yuko bakiri urubyiruko, bambaye impuzankano ndetse bambaye n'imyenda yabugenewe irimo n'uturindantoki, mu bigaragara bari gukora ubushakashatsi, ni byiza yuko ibyumba nk'ibi by'ubushakashatsi byegerezwa abanyeshuri kugira ngo barusheho gushyira mu bikorwa ibyo biga.

Ahantu ubona yuko hameze neza harambuye; ni ikibuga abanyeshuri bifashisha barimo bakora imyitozo ngororamubiri. Ni byiza yuko abanyeshuri bigera ahantu nk'aha bakoreramo imyitozo ngororamubiri n'imikino itandukanye, hamwe n'imyidagaduro kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Icyumba cyiza cyane cyubatse mu buryo bugezweho ubona yuko kirimo ibikoresho byiza bijyanye n'igihe, harimwo ikibaho bifashisha biga ndetse kirimo amatara afasha abana gusubiramo amasomo igihe hari umwijima. Ni byiza yuko serivise z'uburezi zitangirwa ahantu hameze neza.

Abantu babiri ubona yuko umwe ari gusunika ufite ubumuga mu kagare, ni byiza yuko abantu nk'abangaba nabo bafite ubumuga bw'ingingo bahabwa ubufasha kugira ngo babe babasha kugera ku bigo bigiraho, bityo nabo bahabwe inyigisho zigenewe abandi bana kugira ngo nabo biyumve nk'abantu kandi bagira icyizere cy'ubuzima.

Abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abakobwa ubona yuko bakiri mu myaka y'urubyiruko. Ikigaragara bari imbere y'inyubako yubatse ku buryo bugezweho ya IPRC Tumba. Ni byiza yuko abantu bakangukira kwitabira amashuri nk'aya yigisha n'ibijyanye n'imyuga kugira ngo turusheho kwiteza imbere.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, ni byiza yuko serivisi zijyanye n'uburezi zitangirwa ahantu hasukuye kandi hubatse neza kugira ngo ireme ry'uburezi rikomeze ritezwe imbere.

Icyapa kigaragaza inyubako ya kaminuza y'u Rwanda y'Abakatorike. Iyi ni kaminuza itanga uburezi bufite ireme ku bantu batandukanye, ni byiza yuko amashuri makuru na yo yegerejwe abaturage.

Ahantu hari inyubako nziza ubona ko zubatse mu buryo bugezweho, imbere yazo hari ubusitani ubona yuko butoshye, ni byiza yuko ahantu hatangirwa serivisi zijyanye n'uburezi, hagomba kuba hafite isuku kandi hajyanye n'igihe.

Icyumba cyiza cyane kirimo intebe zigezweho ndetse n'ameza ubona yuko gifite isuku, mu bigaragara ni icyumba cy'ishuri. Ni byiza yuko dutangira uburezi ahantu hafite isuku kugira ngo dukomeze twimakaze ireme ry'uburezi.

Ikigo cy'amashuri ubona yuko cyubatse gifite inyubako ndende gifite urugo rugikikije ndetse n'ubusitani burimo ibyabyatsi ndetse n'ibiti. Ni byiza yuko ahantu abanyeshuri bigira hagomba kuba hameze neza.

Inyubako nziza cyane, ubona yuko irimo intebe zigezweho ubona y'uko yubatse ku buryo bugezweho, ni byiza yuko ahantu hatangirwa serivisi z'uburezi, naho hari inyubako zimeze neza, bityo ireme ry'uburezi rikarushaho gutezwa imbere.

Ahantu heza hari inyubako nziza, ubusitani bwiza ndetse n'imihanda ubona ko yubatse mu buryo bugezweho. ni byiza y'uko ahantu hatangirwa serivisi z'uburezi naho hatejwe imbere bityo abana bakaba bitaweho ndetse n'ireme ry'uburezi rikarushaho kuzamuka.

Icyumba cyiza cyane kirimo ameza, intebe, akabati ko gushyiramo ibikoresho bitandukanye by'umwihariko inkweto ubona yuko gifite isuku. Ni byiza yuko ahantu abanyeshuri barara bagomba kuhagirira isuku kugira ubuzima bwabo burusheho kumera neza.

Ahantu hari akabati ubona yuko kabitswemo ibitabo neza ku murongo. Ni byiza yuko amasomero agira ububiko nk'ubungubu, kandi ni byiza yuko ibitabo biri muri ayo masomero bibungabungwa kugira ngo abanyeshuri barusheho kubikoresha mu myigire yabo ya buri munsi.

Icyumba cyiza ubona ko kirimo ibitanda ndetse na matela yo kuryamaho, ubona y'uko harimo ibikoresho byose bikenewe kugira ngo umwana arusheho kugira ubuzima bwiza, ni byiza y'uko mu bigo by'amashuri bigira aho kurara hameze neza kugira ngo ubuzima bw'abanyeshuri bubungwabungwe.

Abantu bambaye imyenda yabugenewe irimo amataburiya ndetse n'uturindantoki, mu bigaragara bari mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi, ni byiza yuko ibi byumba byegerezwa abanyeshuri kugira ngo barusheho gukora ubushakashatsi ku byo biga, bityo batange umuti urambye ku bibazo byugarije abaturage.

Inyubako nziza cyane, ubona yuko yubatse mu buryo bugezweho bw'amagorofa. Ifite ubusitani bwiza ndetse n'inzira abantu banyuramo, ubona ko zifite isuku; zitunganyijwe mu buryo bugezweho. Ni byiza yuko ahantu hose hatangirwa serivisi z'uburezi hagomba kujyanishwa n'igihe, kugira ngo ireme ry'uburezi ritezwe imbere.

Ahantu heza cyane hubatse mu buryo bugezweho, mu bigaragara imbere yaho haparitse imodoka, witegereje neza urabona y'uko aha ari ku kigo cy'amashuri. Ni byiza yuko uburezi buri kugenda butangirwa ahantu hameze neza hubatse mu buryo bugezweho kandi hafite isuku, bityo n'ireme ry'uburezi rikarushaho gukomeza kuzamuka.

Ahantu heza cyane ubona yuko hafite isuku kandi hubatse mu buryo bugezweho, aha hantu hatangirwa serivisi utasanga ahandi zijyanye n'uburezi, ni byiza yuko serivisi nk'izi zitangirwa ahantu hameze neza.

Inyubako nziza ubona y'uko zifite inzira zubatse neza ndetse n'ubusitani bugezweho. Mu bigaragara, aha ni ahantu hatangirwa serivisi zijyanye n'uburezi. Ni ibyo kwishimira ko serivisi nk'izi ziri gutangirwa ahantu hameze neza.

Inyubako nziza zubatse mu buryo bugezweho, ubona yuko ari ibigo by'amashuri, ni byiza yuko inyubako zitangirwamo serivisi z'uburezi zisigaye zarajyanishijwe n'igihe, bityo n'uburezi buhatangirwa bugakomeza kuba nta makemwa.

Ikigo cyiza cyane gifite inyubako zubatse mu buryo bugezweho bw'amagorofa, gifite uruzitiro rumeze neza ndetse n'imihanda igezweho hamwe n'ubusitani. Ni byiza yuko ahantu hatangirwa serivisi z'uburezi hagomba kuba hameze neza hajyanye n'igihe.

Ahantu hari inyubako nyinshi gusa igaragara cyane ni inyubako y'amagorofa ubona yuko ari inyubako ya Kaminuza ya INES Ruhengeri, ni byiza yuko amashuri makuru na za kaminuza zegerejwe abaturage bityo abana bagahabwa uburezi bufite ireme.

Icyumba cyiza cyane ubona y'uko gifite isuku, kirimo ububiko bw'aho umuntu ashobora kubika ibikoresho bitandukanye harimo n'inkweto, ni byiza y'uko ahantu turara hagirirwa isuku kugira ngo turusheho kuba ahantu hameze neza twirinde indwara zikomoka ku mwanda.

Ahantu hari inyubako nziza cyane, zubatse ku buryo bugezweho, zifite isuku, zifite ubusitani, zikikijwe n'ibiti by'amoko yose, ni byiza yuko ahantu nk'aha ngaha hatangirwa serivisi z'uburezi harushaho kugirirwa isuku ndetse no gutezwa imbere kugira ngo uburezi bujyane n'igihe tugezemo.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho bw'amagorofa, inyubako ya Kaminuza nkuru y'u Rwanda, iyi ni kaminuza itanga uburezi bufite ireme, ni byiza y'uko amashuri makuru na za kaminuza byegerejwe abaturage kugira ngo abantu barusheho guhabwa uburezi bufite ireme.

Icyumba cyiza cyane kirimo akabati kikabamo igitanda cyo kurararaho ndetse n'umukeka, ahangaha niho abanyeshuri bacumbikirwa, ni byiza yuko amacumbi y'abanyeshuri yitabwaho agashyirwamo ibikoresho bijyanye n'igihe kandi bifite isuku kugira ngo ubu buzima bwabo bubungabungwe.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bw'amagorofa ubona y'uko yubatse mu buryo bugezweho, iyi nyubako ni ikigo cy'ishuri, ni byiza y'uko serivisi zijyanye n'uburezi zitangirwa ahantu hafite isuku kandi hubatse neza kugira ngo uburezi bukomeze buhabwe imbaraga.

Akabati keza cyane ubona yuko karimwo ibikoresho bitandukanye byiganjemo amavuta yo kwisiga, ni byiza yuko ibikoresho byacu tubibika ahantu heza hafite isuku kugira ngo birusheho kwitabwaho, amashuri ni ingenzi cyane yuko agira ububiko bw'ibikoresho by'abanyeshuri ndetse n'ibyifashishwa mu burezi.

Icyapa cyanditseho ngo birabujijwe kunyura mu busitani. Ni byiza yuko igihe dufite ubusitani nk'ubu ngubu dusiga inzira yo kunyuramo bitagombye ko tunyura mu busitani, kuko ari ukubwangiza.

Inyubako nziza cyane zubatse mu buryo bugezweho bw'amagorofa, mu bigaragara zubatse mu buryo bugezweho, ni byiza y'uko ahantu hatangirwa serivisi zijyanye n'uburezi harushaho gutezwa imbere kugira ngo uburezi burusheho kujyana n'igihe.

Icyumba kiza gifite isuku kirimo intebe ndetse n'ameza ubona yuko byose bigezweho, ni byiza yuko ibikoresho byose byifashishwa mu burezi harimo intebe n'ameza ndetse n'ibindi, birushaho kujyanishwa n'igihe kugira ngo turusheho kugira uburezi bufite ireme.

Icyumba cyiza cyane ubona ko kirimo ibitanda bigezweho, aho kimwe kiri hasi ikindi kikaba kiri hejuru yacyo, mu bigaragara ni amacumbi y'abanyeshuri. Ni byiza yuko aha hantu hagomba gushyirwa ibikoresho bigezweho kugira ngo abana barusheho kuba ahantu heza.

Abanyeshuri bicaye ku ntebe zimeze neza, imbere yabo hari ameza, bicaye mu ishuri ubona ko ryubatse neza, mwarimu wabo ari kubigisha, ni byiza yuko ibikoresho byifashishwa mu burezi birushaho gutezwa imbere, bityo abanyeshuri bakarushaho guhabwa uburezi bufite ireme.

Abanyeshuri bigaragara yuko ari abo muri Kaminuza, bari kwigishwa n'umwarimu w'umuzungu, ubona yuko buri wese afite mudasobwa; ni byiza yuko ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'ibi byegerejwe abanyeshuri, bityo uburezi bujyanye n'igihe bukaba buri kugera kuri bose.

Ahantu hari inyubako nziza ndetse n'ubusitani. Inyubako zubatse mu buryo bugezweho bw'amagorofa. Hari ubwanikiro, aho abanyeshuri banika imyenda yabo. Ni byiza yuko ahantu nk'aha ngaha hagomba gushyirwa mu bigo by'abanyeshuri biga baba mu bigo, kugira ngo barusheho kwimakaza isuku.

Ahantu heza cyane ubona yuko hari inyubako zubatse mu buryo bugezweho, zubatse mu buryo bw'amagorofa zifite ibigega bifata amazi, zifite ubusitani bwiza, ubona yuko zimeze neza, aha ngaha hatangirwa serivisi zijyanye n'uburezi. Ni byiza yuko serivisi zitangirwa ahantu hameze neza, dukomeze tuhabungabunge.

Umunyeshuri urimo gusubiramo amasomo yiwe, mu bigaragara afite agatabo imbere ye hari mudasobwa, ibi byose ni ibikoresho twegerejwe na Leta kugira ngo turusheho kugira uburezi bufite ireme, dukomeze tubibungabunge.

Icyapa kiriho abantu batatu, mu bigaragara kiriho ikirango cya kaminuza nkuru y'u Rwanda, iyi ni kaminuza ifasha cyane mu gutanga uburezi mu byiciro bitandukanye by'abantu, aho itanga amasomo y'ingirakamaro cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inyubako nziza cyane ubona yubatse mu buryo bugezweho, imbere yaho ifite ubukarabiro ubona yuko bumeze neza; ni byiza yuko ku bigo by'amashuri hashyirwa aho gukarabira kugira ngo abanyeshuri barusheho kugira isuku.

Inyubako nziza cyane ubona yuko inyuma hari ubusitani bwiza burimo ibyatsi biconze neza, indabyo ndetse n'ibindi biti by'ingirakamaro, ibi byose biri mu bituma uburezi butangirwa ahantu hameze neza, dukomeze tubibungabunge.

Inyubako nziza zubatse mu buryo bugezweho, ubona yuko ari ubw'amagorofa. Ni inyubako zitangirwamo serivisi z'uburezi. Ni byiza yuko izi nyubako zibungabungwa kandi zigakomeza kuvugururwa zijyanishwa n'igihe, kugira ngo uburezi buhatangirwa burusheho kuba nta makemwa.

Ahantu hubatse mu buryo bugezweho, mu bigaragara habereye ijisho, hari umwana wicaye ku ntebe, ikigaragara cyo aha hantu hatangirwa serivisi z'uburezi, ni byiza yuko serivisi z'uburezi na zo zitangirwa ahantu hameze neza kugira ngo ireme ry'uburezi rikomeze ribungabungwe.

Ahantu heza cyane, ubona yuko ari icyumba k'isomero. Kirimo ibitabo ubona yuko bibitse neza mu buryo bugezweho. Ni byiza yuko ibitabo bibikwa neza kugira ngo birindwe kuba byakwangirika, kandi abanyeshuri bakegerezwa amasomero kugira ngo barusheho kwiyungura ubumenyi.

Ahantu hari inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho bw'amagorofa. Imbere yayo hari ubusitani bumeze neza ndetse n'uruzitiro ubona yuko ari ahantu hatangirwa serivisi z'uburezi, ni byiza yuko aha hantu naho hakomeza gutezwa imbere kugira ngo uburezi burusheho kujyana n'igihe tugezemo.

Akabati karimo udukoresho mo imbere, hejuru hari inkweto ndetse n'igikapu, mu bigaragara ni aho abanyeshuri babika ibikoresho byabo, ni byiza yuko mu bigo aho abanyeshuri biga baba mu bigo bagira ahantu nk'aha ngaha babika ibikoresho byabo, kugira ngo birusheho kwitabwaho bigira umutekano ndetse hahorane isuku.